Ni byiza ko tubona ahantu dusohokera tugiye nko kunywa cyangwa kurya, turi kumwe n'inshuti zacu. Kuko abubaka amabare n'amaresitora, baba barabiteguye neza, maze bakakira neza abashyitsi baje babagendereye. Maze n'abasohokeyemo bakishima cyane.

Nibyizako umuntu akenera ahantu hokujya, akabona aho asohokera, ashaka kuganira n'inshuti, aho ahasanga icyo kunywa nicyo kurya, maze bakamwakira na urugwiro, yasoza akishyura kandi nabahakorera bakabona amafaranga menshi, aturutse mu mushinga aba yarateguye.

Ni byiza ko tubona ahantu tugurira ibyo kurya n'ibyo kunywa, nko mu magare n'amaresitora, maze tukarushaho kuyishima, maze ababitegura nabo bakabona amafaranga aturutse, ababiguze bagiye kubyiyakiriza bakiteza imbere, bakora ibindi bikorwa bizamura imibereho myiza yabo.

Ahantu ho gusohokera ni ingirakamaro. Nko mu mabare afite ibyangombwa bikenerwa byose nk'intebe zo kwicaraho n'ameza ndetse tukahasanga ibyo kurya n'ibyo kunywa kugira ngo tubashe kunezerwa mu buzima bwacu . Kandi abateguye ibyo bikorwa bariramo binjiza amafaranga aturutse mu bakiriya babona.

Ni byizayiza ko iyo twavuye mu ngo zacu twasohotse tubona ahantu ho kunywera ndetse no kurya, aho dusangamo inzoga zitandukanye nko mu ma bare maze tugasabana n'inshuti zacu, dusangira icyo kunywa kandi tunaganira.

Kugira ahantu ho gusohokera ni byiza cyane nko mu mabare, aho dusangamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye ,maze tukarushaho kwishimana n'inshuti zacu, ndetse n'abakoze umushinga wo kuhacururiza, bakabona amafaranga aturutse mu bantu baba bahasohokeye.

Ni byiza ko tubona ahantu dusohokera dushaka ibyo kunywa, aho dusangamo nk'amoko y'inzoga atandukanye, ndetse n'ibyo kunyweramo, kandi tukabona naho twicara tuganira, maze n'ababicuruza bakabona amafaranga aturuka mu bucuruzi bateguye gukora muri ayo ma bare.

Ni byiza ko umuntu abona ahantu ho gutemberera akahasanga icyo kunywa n'icyo kurya, aho kwicara, maze akishimana n'inshuti ze, ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza butuma yumva aguwe neza maze akanezerwa.

Ni byiza ko umuntu akenera gusohoka agiye kwishimana n'inshuti. Akajya nko mu ma bare, mu marestora, akabona icyo kurya n'icyo kunywa ahantu heza cyane, maze akishima, ndetse n'abahakorera aho hantu bakinjiza amafaranga aturutse mu baje baje kuhasohokera, no kuharira no kuhanywera.

Ni byiza kubona aho umuntu asohokera ashaka icyo kunywa ,aho dusangamo abakozi bakoramo bakatwakira neza ,baduha ibyo kunywa ndetse n'ibyo tunyweramo maze tukumva twishimye, na bo tukabaha amafaranga kubera ko baba batwakiriye neza.

Amazu y'ubucuruzi yubatswe neza cyane atuma tubona abakiriya baza kuyakodesha, bashaka gukora ubucuruzi ndetse n'abaza guhaha bakabona aho bagurira ibyo baba bacyeneye

Amazu y'ubucuruzi aba meza cyane. Iyo yubatswe neza kandi akaba yubatse ku muhanda aho abakeneye gukodesha bakayabona bitabagoye. Ndetse n'abakoreramo bakabona abakiriya kuko baba bubatse ku muhanda abantu bakunda kunyuramo.

Kubaka amazu y'ubucuruzi afite isuku agezweho kandi afite n'imbuga nziza yo guhagararaho, aho abakiriya baza bagahagarara ndetse bakanagurira muri ayo mazu bityo abacururizamo bakabona abaza kubagura, bitewe n'uko baba barubatse amazu ajyanye n'igihe.

Mu mihanda tujyendamo buri munsi, hari igihe ducyenera kugira ahantu dufata icyo kurya n'icyo kunywa. Aho tuhasanga ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho hantu, maze tukagenda tugafata icyo kunywa mu gihe tugenda maze nabo bakabona amafaranga aba aturutse muri bizinesi baba bakora.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro kuko akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, maze abakeneye ibyo bacuruza bakabibona bitabagoye mu buryo bwihuse kandi bunogeye bose.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro. Nk'iyo ari ku muhanda, bituma abakeneye ibintu ducuruza babibona mu buryo bworoshye, maze natwe tukabona amafaranga, tugakora ibindi bikorwa biduteza imbere.

Amazu y'ubucuruzi ni meza cyane, aho acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, maze abakeneye kuza kubigura bakabona aho babigurira bitabagoye, kandi n'abakora umwuga w'ubucuruzi na bo bakabona amafaranga aturutse mu baje guhahira mu maduka yabo.

Gukora ubucuruzi bucuruza ibintu bike bitandukanye, nk'ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, amavuta yo kwisiga, aho ababikeneye baza kubigura, maze abacuruzi nabo bakabona amafaranga, aturutse mu bakiriya bakiriye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucuruza ibintu abaturage bakunda gukenera mu buzima bwa buri munsi nk'amakaramu, uburoso bwo gukoresha mu menyo, inzoga mbese n'ababicuruza babona amafaranga kandi babicururiza ahantu hameze neza kandi hafite isuku.

Amazu y'ubucuruzi aba ari meza, cyane cyane nk'iyo yubatse ku muhanda, aho abagenzi bayageraho bitabagoye, bakabona serivise zihuse.

Ni byiza ko abantu bagira amazu yubatse neza akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye nk'amashuri, aho yigirwamo n'abanyeshuri maze bakazagira ubumenyi bwinshi bukomoka ku mashuri bizemo.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza ibicuruzwa abaturage bakunda gukenera; nk'inzoga, amakaramu, amavuta yo kwisiga, ndetse n'ayo kurya, imikati, aho ababicuruza babona amafaranga bifashisha abakora ibikorwa bitandukanye kandi bakabicururiza ahantu hasa neza, hafite isuku.

Amazu y'ubucuruzi yubatse mu buryo bw'amagorofa ni ingirakamaro kuko atwara ubutaka butoya, kandi akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, aho bamwe bayacururizamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ababikeneye bakaza kubigura mu buryo bugoranye, ndetse n'abayakoreramo babona abakiriya, maze bakinjiza amafaranga menshi.

Kugira amazu y'ubucuruzi ni byiza cyane, nk'iyo yubatse ku mihanda aho abashaka kuyakodesha bayabona bitabagoye, kuvuga ahantu heza kandi n'abashaka kugura ibyo ducuruza bakabibona, mu buryo butagoranye kuko aba ari ahantu nyabagendwa.

Kugira ibikorwa remezo ni byiza, nko kugira ahantu abantu bahasohokera nk'amahoteli, aho basangamo ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse naho kurara mu gihe bakeneye kuhacumbika, maze ababyubatse bakabona amafaranga akabateza imbere.

Kugira amasoko menshi acuruza ibintu bitandukanye， ni byiza cyane kuko abakeneye izo serivisi baza kuhahira， ndetse n'abaguze bakabagurisha neza，bityo bigatuma abantu bahakorera，binjiza amafaranga.

Mu inzu z'ubucuruzi, dusangamo abantu bacuruza, nk'amakantine za resitora, aho bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, maze ababikeneye bakabibona mu buryo butagoranye, bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi ziba ari nziza cyane, kuko abakeneye gukora ubucuruzi bazikodesha, ndetse n'abakoramo bakabona abakiriya baza kubagurira ibyo bacuruza, kuko baba bakorera ahantu heza kandi ku muhanda.

Kubaka amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro, aho bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, nk'ibyo kurya ndetse no kunywa. Maze ababikeneye bakabibona mu buryo bitabagoye, n'abakora umwuga w'ubucuruzi bakabona amafaranga aturutse mu bakiriya.

Ni byiza ko amazu y'ubucuruzi yubakwa ahantu heza ho ku muhanda, bityo abakeneye gucuruza babone aho bakodesha, kandi n'abaje baje guhaha babone aho bagurira bitabagoye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucuruza ibintu abaturage baza bakeneye, kandi tukabicururiza ahantu hafite isuku, kugira ngo bitazahura n'umwanda, ababiguze bagahura n'indwara zitandukanye.

Kugira amazu y'ubucuruzi aranguza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni ingirakamaro, kuko ababikeneye baza kubirangura maze bakabijyana ahantu abaturage babikeneye, bakabibona mu buryo bwa bugufi bitagoranye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro aho tuba tugomba gushyiraho ibyapa bigaragaza ibintu ducuruza cyangwa ibyo dukora kugira ngo abakiriya babikeneye bajye bahita basobanukirwa ibikorerwa aho hantu bitabagoye mu gihe gito.

Ni byiza kugira ibikorwa rusange by'ibanze nko kugira amazu yubatse neza, aho umuturage aba agomba kugira inzu yo kubamo yubatse neza kandi ifite n'ubusitani bwiza ndetse n'umuhanda uhagera kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Amazu y'ubucuruzi yubatswe neza ni ingirakamaro. Kuko abakeneye kujya gucururizamo, baza kuyakodesha ndetse n'abayakoreramo bakabona abakiriya kuko aba uwubatswe ku muhanda ku byo kuhagera bibaga bitagoranye

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro kuko ziba zubatswe neza, aho abacururizamo baba bafite ibintu abaturage bakunda gukenera, nk'imbabura, ibyo guteka ,maze ababikeneye bakaza kubigura bakabibona bitabagoye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza imyenda yo kwambara, aho abantu bayikeneye baza kuyigura mu masoko dukoreramo maze bakazana amafaranga tukabaha iyo myenda. Tukayifashisha dukora ibindi bikorwa nabo bakajya kwambara bakaberwa.

Amaduka ni amwe mumazu akorerwamo ubucuruzi aho bacuruza ibintu byinshi baranguza abantu babikeneye, maze bakajya kubigurisha ku bandi bacuruzi batoya maze abacuruzi bakabona amafaranga aturutse mumwuga bakoraga.

Ni byiza kubaka amazu y'amagorofa kandi tugashyiraho n'ibyapa bigaragaza serivisi dutanga. Bityo abakiriya baje batugana bagasobanukirwa vuba bitabagoye, bakatugeraho na twe tukabaha izo serivisi byihuse.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro ku bayakoreramo, aho abakeneye ibicuruzwa bitandukanye baza kubigura nk'amabiswi, amafu, amashikarete, ibiburiti, itabi maze abacuruza bakunguka amafaranga aturutse mu baje kuguramo ibyo bacuruza

Amazu y’ubucuruzi aba ari meza cyane， iyo yuwubatswe mu buryo bw'amagorofa，kuko bigabanya ahantu ubutaka bwatwaye babwubaka， maze abakeneye kuza gushaka ibicuruzwa，bo bakabibona mu buryo butagoranye kandi vuba.

Mu masoko haba ari heza cyane kuko bakoreramo bacuruza, bakunda gucuruza imyenda babona abakiriya, bakaza kuyigura kuko iba imeze neza kandi ijyanye n'igihe tugezemo.

Kugira amazu yubatse neza ari nko ku mihanda ,y'amahoteli ,ni byiza cyane kuko abakerarugendo baza kuyaruhukiramo bagatanga amafaranga, maze igihugu kigatera imbere kibikesha inyubako nziza kandi nyinshi cyubatse.

Kubaka amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro, kuko bituma abakeneye ibicuruzwa bitandukanye ari ho baza guhahira, kandi akaba ari no ku muhanda ku buryo abakeneye izo serivisi baza bakahagera bitabagoye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza, imikeka basasa mu nzu ndetse n'amatora zifashishwa mu kuziryamaho, aho abayikeneye baza kuyigura maze bakajya bayiraraho ,bakagira ubuzima bwiza buzira amavunane.

Kubaka inzu z'amagorofa ni ingirakamaro kuko zitwara ubutaka butoya kandi zikaba zikomeye, zikorerwamo n'abantu benshi, kandi biba byiza iyo ziri ku muhanda kuko abaza baje kuhashaka serivisi zitandukanye bahagera bitabagoye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nk'aho bacuruza ibijyanye na mobayilo mani, cyangwa eyateli mani ,aho abakiriya baza gushaka kugura amayinite cyangwa kubitsa amafaranga ,no kubikuza bakabona aba ajenti babafasha ,bakorana n'izo sosiyete.

Kugira ahantu hakira abantu ni ingirakamaro, aho tuba tugomba no gushyiraho ibyapa birangira abantu ibyo dukora, kugira ngo barusheho gusobanukirwa kandi batayoba mu gihe baje batugana.

Amazu akorerwamo ubucuruzi yubatswe neza ni ingirakamaro. Amazu gukorerwamo imikino y'amahirwe, aho abashaka ku betinga bajya kuhakinira kubera ko haba hubatswe neza kandi hizewe.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro nk'iyo ari ku muhanda ahantu nyabagendwa, aho abaturage baza kuhagurira ibyo bakeneye bakabibona mu buryo bworoshye, maze natwe tukiteza imbere kubera ko tuba dukorera ahantu heza hateye imbere.

Ubucuruzi ni imwe mu nkingi ya mwamba mu mibereho yacu, aho bamwe bakora mu bucuruzi bwo gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga bya elegitoroniki nk'amateleviziyo, amaradiyo, amapasi, amakonjirateri n'amatelefone maze abaje kubikoresha bakabaha amafaranga.

Inzu yubatse neza, aho bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga: nk'amatelefone, amaketo, amaradiyo, televiziyo ndetse n'ibindi, Kugira ngo byongere bikore maze bajye bareberaho amakuru atandukanye.

Ni byiza kugira amaduka acuruza ibintu bitandukanye， aho nk'abantu bacururizamo babona abakiriya baje kubahahira，kandi nabo bakinjiza amafaranga aturutse mu bantu baje, baje kubagurira.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucuruza ibikoresho dukunda kwifashisha, mu ngo zacu, nka mabaro, amacagi, ingofero, ingufuri, ndetse n'ibikapu aho ababikeneye, babibona bitabagoye.

Kubaka inyubako mu buryo bw'amagorofa ni ingirakamaro kuko bitwara ubutaka buto cyane, kandi bikaba byiza cyane iyo zubatse ku muhanda mwiza wa kaburimbo, aho abaza kuhashaka serivisi bahageraga bitabagoye.

Amazu y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bw'amagorofa aba ari meza cyane, kuko atwara ahantu hatoya kandi agakorerwamo ibikorwa byinshi kandi bikaba byiza cyane iyo ari ku muhanda ku buryo abaturage bahagera bitabagoye.

Amazu y'ubucuruzi bwubatswe mu buryo bugezweho aba ari meza cyane kuko abashaka gucururizamo babona amazu yo gukodesha ,bagakoreramo . Kandi n'abakeneye kuza kuyahahiramo bakabona ibyo bakeneye bitabagoye.

Amazu y'ubucuruzi yakira abantu bashaka nko kunywa cyangwa kurya aba ari meza cyane ,aho aba yegeye umuhanda ku buryo kuhagera biba bitagoranye, maze abashaka izo serivisi bakazibona mu buryo buboroheye.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo nk'amakantine, amaresitora, aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakenera bashaka kunywa, cyangwa kurya, maze bakabibona bitabagoye, n'ababicuruza bakabona amafaranga akomoka ku mwuga bakora.

Ni byiza ko tujya mu nsengero tugiye kwegerana n'Imana ,aho haba harimo n'amakorali aturirimbira indirimbo zidufasha kuramya no guhimbaza Imana ,twambaye impuzankano yabugenewe ,maze tukarushaho kwishima kubera ko baba badutaramiye.

Kugira amazu yakira ba mukerarugendo ni ingirakamaro aho aba yarubatswe ahantu heza, hafite amahumbezi, hari ibiti ndetse n'ubusitani bwiza, kandi akaba arimo n'amarangi ndetse n'umuhanda uhagera neza.

Mu duce dutandukanye tw'igihugu dusangamo nk'amahoteli ndetse n'amaresitora, aho abakeneye kuruhuka cyangwa gusohoka bahajya bakaboneramo ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse naho kuryama, kandi hakaba hari ubusitani bwiza butuma haza akayaga keza ndetse harimbijwe n'indabo nziza cyane.

Mu mahoteri no mu maresitora dusangamo ibikoni byubatswe neza; aho babitekaho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse bikaba bifite n'isuku, kugira ngo ibyo bateguye bibe bifite umutekano wizewe utangiriza ababirya.

Kwihangira umurimo ni byiza cyane, nko gushinga umutaka ku muhanda, umuntu akajya yisudirira ibikoresho byangiritse byo mu ngo, maze akabona amafaranga aturutse kuri ba nyirabyo, baje kumukoreshaho akarushaho kwiteza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane nk'iyo bukorewe mu masoko yubatswe neza. Aho abacuruzi baba bacuruza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imyaka nk'ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi maze ababikeneye bakabibona byihuse.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko kubukorera mu masoko, aho hazamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibitoki, amavoka aho abaturage babikeneye baza kubigurisha ndetse n'abashaka kubirya bakaza kubigura, maze abakora ubwo bucuruzi bakabonamo amafaranga bifashisha bakora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Iyo tugenda mu nzira dukenera kurya cyangwa kunywa, aho tujya mu makantine cyangwa mu maresitora tukabona ibyo kurya no kunywa, bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza kuko tubibonera hafi bitatugoye.

Isoko ni ingirakamaro nk'amasoko yubatse mu buryo bw'amagorofa, aho atwara ubutaka butoya, kandi agakorerwamo n'abantu benshi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye kugira ngo biteze imbere.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gucuruza inkoko ,aho tuzicururiza mu masoko dufite n'utubuti two kuzitwaramo kugirango tuzibungabungire ubuzima, maze abazikeneye bazibone mu buryo butabagoye kuko bazisanze mu isoko.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, nko gucuruza ibikoresho byo mu rugo nk'amabase, amasafuriya, amasahani, imyuko, amasahani, ibikombe n'amajage, aho ababikeneye baza kubigura, maze bakajya kubyifashisha mu ngo zabo.

Kugira amasoko duhahiramo ni ingirakamaro, aho dusangamo nk'ibikoresho dukunda kwifashisha byo mu gikoni dutegura amafunguro, nk'imbabura dutekaho, imyuko dukoresha, amabasi, ibikombe, ndetse n'amasahani yo kuriraho.

Amasoko ni ingirakamaro aho dusangamo imyenda dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi abayicuruza baba bakorera ahantu hasa neza hatagerwa n'amazi y'imvura, kubera ko haba hasakaye na bo bakabona amafaranga bifashisha bakora ibindi bikorwa kubera ko baba babonye abakiriya.

Amasoko ni ingirakamaro kuko acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye abantu bakenera nk'ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Maze abantu baje kubihaha bakabibona bitagoranye kandi n'abacururizamo bakaba bacururiza ahantu heza haba hasakaye batabasha gutuma ibintu byabo byangirika.

Ubucuruzi ni bwiza nk'iyo bukorewe mu masoko aho bacuruza ibintu bitandukanye, nk'ibishyimbo, amashaza, ibitoki, aho bicururizwa ku bikoresho bifite isuku, maze ababikeneye bakaza kubigura bakajya kubirya mu ngo zabo.

Ubucuruzi n'imyuga itandukanye ni byiza cyane, nko gukora ubudozi; aho umuntu ufite icyarahani adoda imyenda igiye itandukanye, abantu baza kudodesha maze akabona amafaranga aturutse mu mwuga akora.

Amasoko ni ingirakamaro ku bantu baba bayacururizamo, kuko abaturage baturutse imihanda itandukanye bajya kuyahahiramo, cyangwa bakaza kugurishirizamo ibintu bigiye bitandukanye, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha bakora ibindi bintu bashaka.

Mu masoko ni hamwe abantu dusanga ibintu dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'imyenda ,ibiryamirwa nk'amamatera, amashuka, amakuvurori ,ndetse n'indezo zo guhekamo abana, imikeka ,aho tubisanga mu masoko tukabigura aho tuba tubikeneye mu ngo zacu kugira ngo dukomeze tubeho neza.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nkaho abaturage bafite ubushobozi butoya babasha kwishingira bizinesi ntoya nko gucuruza inyanya, imboga, intoryi, insenda maze ababikeneye bakabibona mu buryo bitabagoye. Aho bacururiza ku mihanda itandukanye kandi bakabicururiza ahantu hafite isuku.

Ubucuruzi ni bwiza, nko gucuruza amagi aho tuyacururiza mu isoko, kubera ko aba ari menshi, abantu baza kuyagura kubera ko baba bazi ko ariho barabona menshi, kandi tukayacururiza ahantu hasakaye hubatse neza.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucururiza mu masoko aho abacuruzi bacuruza isukari, amandazi, amajage, amabiswi, aho abaguzi babikeneye baza kubigura, maze bakajya kubiteka mu ngo zabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amasoko ni ingirakamaro, aho abakeneye ibintu bitandukanye ariho bajyaga kubigurira, kuko abacururizamo baba barabiranguye maze bagacururiza ahantu hasakaye, hatuma ibicuruzwa byabo bitangirika, ababikeneye bakabihasanga bidafite ikibazo na kimwe.

Amasoko ni igikorwa remezo igihugu cyashyizemo imbaraga aho abacuruzi benshi bahuriramo bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, maze ababikeneye bakabisanga muri ayo masoko, kuko amasoko n'abakoreramo batanga imisoro igihugu cyifashisha cyubaka ibindi bikorwa remezo abaturage bakenera.

Ubucuruzi bumwe na bumwe bukorerwa ku mihanda ,aho abacuruzi bacuruza utuntu tw'uduconsho maze ababikeneye bakabibona bagenda mu nzira ,bakabigura ,bikaborohera mu buryo baba babishaka.

Ni byiza ko mu nzira tugendamo tubona ibyo tuba dukeneye kugura mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'ibikoresho twifashisha mu gikoni nk'imbabura, ibyuma, amasafuriya, imyuko ,aho ababicuruza babona abakiriya maze bakabakirana urugwiro.

Ubucuruzi ni ingirakamaro, nko gucuruza ibicuruzwa abaturage bakunda gukenera, nka puwaro, inyanya, ibitunguru, amananasi, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ababikeneye baza kubigura mu isoko kandi bicururizwa ahantu heza hafite isuku hasakaye.

Ubucuruzi ni ingirakamaro nko gukora ubucuruzi bw'imbuto, aho zirangagurirwa mu masoko zikagurishwa ku bantu bazikeneye, maze abazicuruza bakabona amafaranga, ndetse n'abaziguze bakunguka intungamubiri nyinshi ,muri izo mbuto baba baguze kuko zikungahaye ku ma vitamine.